Abagabo benshi bahagaze hejuru y'ikiraro bafashe imigozi bayambitse umugabo n'umwana, hasi imbere ye hari umugabo umanitse amaboko, ku ruhande hari uwundi muntu uri inyuma y'abantu.

Abantu batanu barimo aba mama bafite pen barandika ku mpapuro, imbere yabo ku meza bateretseho amacupa y'amazi abandi baricaye babiri ntago barimo kwandika ,batatu nibo bandika bari mu cyumba.

Ibikoresho bakoresha mu buryo bwo kuvura, ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze. Harimo ipamba, bandaji, n'utundi, utwembe, inshinge ni ibikoresho bya muganga.

Abantu batatu hanyuma umukobwa yavunitse ukuboko, bamuhambiriye bamushyiriraho igisima, bamuhereza n'umwenda mu ijosi, bamuhambira ukuboko, n'undi mugabo arimo kuvuga n'abandi barimo kumwumva. Bari kwa muganga.

Abarwayi baje kwivuza bari kwa muganga bategereje ubufasha, babahaye intebe barica mu cyumba hari umuzungu hari umukobwa uri kumuvugisha, bategereje umuganga ku cyumba harakinze.

Abaganga b'abakobwa nab'abahungu, bamwe bambaye imyenda y'icyatsi kibisi, abandi bambaye ubururu, undi yambaye ubururu budafashe cyane. Bose bambaye ingofero, bambaye ubupfukamunwa, bari mu cyumba cyo kwa muganga, hari agatanda kabari imbere k'umukara, karyamaho umurwayi ariko nta muntu uriho, bari mu cyumba mu imbere.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru arimo kumufata ibizamini, afite impapuro mbere ye arimo kwandikaho, inyuma hari izindi zirambitse ku ruhande, harimo imeza kwandikiraho abikamo, ku ruhande hari agapima umuriro, umukecuru yicaye ku ntebe arimo ku muvugira.

Umuganga n'umurwaza baje kureba umurwayi uryamye mu bitaro barimo kubavura hariho abandi baganga barimo kuvugisha abandi barwayi baryamanye hirya yabo, barimo kureba mu bitabo byabo n'ayandi makuru.

Hari abadamu n'abamama bicaye imbere muri tente bambaye inifomo z'ubururu amakanzu y'ubururu. Bari muri tente ifite idarapa ry'u Rwanda mu bururu n'umuhondo n'icyatsi.

Aha ni ku bitaro byo kwa muganga, hari abicaye imbere ku ntebe, hari umugabo uhagaze iruhande rwe, hari agakaritok'Inyange ka ji, undi mugabo amureba iruhande n'abadamu babiri bamuhagaze imbere bafite ibitabo.

Abaganga babiri bari mu cyumba bari kumwe n'umurwayi wicaye ku gatanda, barimo kumuganiriza bamufashe ku rutugu, iruhande rwabo hari ibyuma bakoresha mu gupima, hari uwambaye ibyo yambaye mu ijosi, barimo kurebana.

Abantu benshi bafashe icyapa, abantu babiri bafashe icyapa cy'umweru cyanditseho kwibuka mirongo itatu. Ibitaro bya Nyagatare, abantu benshi babari inyuma babakurikiye n'imodoka hagati bahasize icyapa kinini cyanditseho Nyagata district hospital ibitaro bya Nyagatare. Iruhande hari inyubako no hepfo hari inyubako zicishijwe ibiti, abantu barimo kugenda.

Abaganga bari kumwe n'abayobozi babo, abaganga bafashe ibisima by'amaguru mu ntoki barimo kubikoresha, barimo kubikora, abayobozi bari imbere ku meza, hari n'ikintu, hari umukebe uteretseho, urimo n'ibyuma n'amashashi.

Umuganga arimo kwakira umubyeyi mu idirishya amwandikira imiti; anamusobanurira uko agiye kuyikoresha hari: imiti myinshi, hari ibitabo, hari imakasi, hari amapeni, hari indobo yo kunagamo imyanda.

Intoki z'umuganga wambaye ga afashe agapima ko bashyiramo ibipimo by'umurwayi ubawaje kwipimisha agatiyubu karimo ibipimo yaje yaje gutanga ibindi biteretse mu kameza hejuru.

Labaratori irimo mayikorosikope bakoresha mu gupima no kureba ibyo amaso y'abantu atabasha kurebesha, hari n'ibindi bikoresho byo kwa muganga byinshi bihari, biri muri sitoke bitaritse ku meza.

Michacroscopi iri muri laboratori bakoresha mu gupima no kureba ibyo ijisho ritashobora kurebesha, babireba bakoresheje microsikopi harimo ibipimo by'abarwayi baba batanze iri mu cyumba cyitwa labaratori.

Abanyeshuri b'abaganga barimo muri laboratwari barimo kwiga bambaye impuzankano z'imyeru hari abarimu bari kubigisha harimo abarimo kubereka ibyo bakora gusa bamwe bari hepfo abandi bari haruguru, harimo abakobwa n'abahungu muri salle yabo.

Umu mama uhetse umwana afite n'undi mu ntoki ni baga, arimo kujya ku kagari cyangwa se kwa muganga, kumuvuza. Hari n'amajaride.

Ishuri rifite abana b'inshuke b'abanyeshuri batoya cyane, barimo gusohoka mu ishuri bajya gukaraba kuri kandagira ukarabe bari kumwe n'umuyobozi wabo, umukobwa haraza hakaraba umwe umwe hagenda undi haza uwundi, barimo gusohoka mu ishuri baza gukaraba.

Abadamu bari kwa muganga baje kwipimisha, bari kumwe n'abaganga b'abamama n'abapapa, barimo kubakira baba pima, hari abicaye batangiye kuvura, babarimo gutanga ibipimo n'abarimo kubakira babinjiza. Ni kwa muganga mu cyumba barimo kubavurira.

Umuganga, umuganga ari kumwe n'agahinja muri materineti, arimo ku kavura, arimo kugashyiraho serumo ku kuboko, kwa muganga, muganga arimo kuvura agahinja.

Abana benshi bicaye hasi buri mwana afite isahani iriho ibiryo barimo kurya bicaye ku mikeka, hari umupapa ubahagaze hejuru arimo kubarebera n'umudamu ubarimo hagati arimo kubarebera abagaburira.

Ababyeyi batatu barimo kugaburira abana b'amashuri y'inshuke. Bari mu ishuri, buri mwana yicaye ku ntebe, bafite amasahani barimo kubagaburira. Ku muryango harakinze barimo kubagaburira babitaho.

Abarimu babiri bari kumwe n'abanyeshuri b'abana batoya bari mu ishuri, barimo kubakoresha amawaka abana bafite amapepa bashyize ku meza barimo gukoreraho n'abarimu bari kubafasha.

Umuyobozi ahagaze imbere y'abaturage bicaye muri tente ishakakaje idarapo ry'igihugu ubururu, umuhondo, icyatsi kibisi, inyuma hirya hari abadamu batatu bitwikiriye imitaka, mu bicaye harimo ingabo ya Polisi.

Abaturage benshi barimo abashinzwe ubuvuzi bw'abana, hari abicaye imbere hari abicaye inyuma, ariko abashinzwe ubuvuzi bw'abana bicayemo hagati. Bambaye imyenda y'ubururu, ku ruhande hariho abambaye ijiri, bakurikirana umuyobozi wabo. Imbere hari abaturage basanzwe gusa.

Umuntu wakiriye umubyeyi ufite akana wagirango ngo bari mu ivuriro barimo bafite ikaramu n'igitabo barimo kwandika bari ku meza umwana ni muto umubyeyi aramukikiye.

Abaturage bamwe n'ingabo z'Igihugu na Polisi na Dasso, baje imbere gukata akadodo kari kari imbere bacaho bafungura batangira gukora igikorwa cyabazanye nyuma hari ibiti natente.

Icyapa cyanditseho isange wani sitopu senta, n'inomero zo guhamagara za RIB, hariho ni ikirangantego cyari, hariho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda ariho n'izuba rirashe.

Umuyobozi w'umudamu uri imbere y'abandi baturage bicaye imbere, bicaye imbere ye ku meza harimo abagabo barimo abadamu, n'abandi bayobozi bicaye ku ruhande rw'umudamu urimo kuvuga hateye amazi ku meza bicaye bamuteze amatwi bari muri sale icanye amatara idekoye haruguru hari ibyapa biriho ibyapa.

Abayobozi ba arabisi, bicaye imbere mu ntebe hari abicaye imbere barimo kubabwiriza hari abicaye hakurya hari abahagaze hakurya bambaye imipira y'ubururu, bambaye imipira y'umukara. Aba bahagaze hirya.

Garavuzi abaganga bakoresha bambaye, bagiye kuvura, bagiye gukora mu miti mu gihe habonetse umurwayi cyangwa se no kubaga no kubyaza, igihe icyo ari cyo cyose bagiye mu kazi bakazamba.

Farumasi icuruza imiti y'abantu bakenera n'inyamaswa iyo zikeneye yose iriho icyapa cy'umukobwa, ku ruhande hariho kizimyamoto, ku ruhande rundi hariho icyapa cyerekana ko bakora ibintu bya mekapu, hejuru handitseho icyapa cya kipharma.

Imiti yo muri farumasi irimo umuntu urimo kuyikoramo ntabwo agaragara hagaragara ukuboko konyine ariko harimo imiti arimo kuyikoramo, harimo imiti myinshi cyane yo kwa muganga bakenera abantu bayakoresha, hari iri mu gukarito, hari iri mu ducupa, ni imiti myinshi cyane.

Farumasi y'imiti tageri ya mbere imit, itageri ya kabiri naho harimo imiti na itigeri ya gatatu harimo imiti no mudukarito iyi yo ni iyo mu ducupa ku ruhande hari intebe iteretse ku ruhande.

Ivuriro rivura rikoresheje imiti ya gakondo, aha hejuru hari icyapa cyerekana ko imiti ya gakondo, hariho isekuru irimo umuhini iteretse munsi y'igiti. Iruhande hari igikakarubamba, hari n'inomero z'abantu.

Abaturage benshi bari kumwe n'abayobozi babo hari umudamu n'umugabo barimo kubahugura uko bagomba gukoresha neza agakingirizo kari n'umunsi mpuzamahanga wako abaturage barimo kubufata bwinshi bamanitse amaboko barimo kubufata.

Abaturage bafite iki igipapuro cyanditseho kwamagana ibiyobyabwenge, barimo kwamagana ibiyobyabwenge ngo twubake u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge, barimo kurandura ibiyobyabwenge mu banyarwanda.

Abadamu n'abamama bicaye mu ntebe, umwe yicaye ku ntebe yiwe, umadamu arimo kuvuga afite mikoro bicaye bamuteze amatwi, hejuru yabo hari icyapa cya walidi amuweyanesi wiki tuweti tuweti fayive na visiyara.

Umubyeyi ari imbere y'abaturage bicaye, akaba abari imbere hanyuma aravuga iruhande kugikuta hari icyapa kivuga ngo umuryango wange . Iki cyapa kikaba kikaba gifite umugabo ufite isuka ndetse kandi hari mo inka.

Umuntu ufashe ibiti by'amahuki arimo kugica agiye kukivuna. Ikibabi k'ihuki n'amashami yacyo.

Imiti ya kinyarwanda myinshi cyane itandukanye, hari isekuye hari idasekuye, iri mu bufuka iy'ibishaka, iri mu bicupa ni imiti myinshi cyane, hari iyirabura hari iy'umutuku, ni amafu y'imiti myinshi cyane ya kinyarwanda barimo kuyerekana.

Igiti cy'inyarabasanya gifiteho uburabyo bw'umweru n'umuhondo, ni umuti uvura. Ni umati abantu bakoresha bivuza ku bisebe, aho bakomeretse.

Imiti ya kinyarwanda myinshi cyane harimo imiti iri mu ducupa dutoya, harimo imiti iri mu dufuka, harimo isekuye harimo idasekuye, harimo iri mu dutebo harimo irimo mu dufuka, iri iri mu ducupa, haruguru hariyo imeze nk'ishaka ni imiti myinshi cyane bateranyirije ahongaho.

Umuganga arasuzuma umurwayi bamuhambiriye igipima umuvuduko w'amaraso n'umuvuduko w'umutima, imiterere yawo, ari kwa muganga aryamye ku gitanda ba mworoshe ishuka ariko arareba.

Abaturage n'umuganga bahagaze imbere y'ivuriro, ndanditseho icyapa kiriho umu papa n'umama bafashe akana, handitseho gira ubuzima herifu positi barimo kwifotoza.

Ikigonderabuzima cy'abaturage, hariho abicaye imbere mu ntebe bategereje kwakirwa hari abicaye hanze, hanze ku ruhande harikandagira ukarabe ebyiri, hari n'ibikoresho bari barimo gukora amasuku imikoropesho n'ikidomora n'itorosho; hejuru hari icyapa cy'abapapa n'abamama bafite abana.

Ikigonderabuzima kiriho umugore n'umugabo bafite abana babiri bajya kwa muganga hari itara ryaka, hari umuntu uhagaze mu idirishya, hari n'undi uhagaze ku muryango, hari na kandagira ukarabe iri imbere y'umuryango.

Ibitanda byo kwa muganga bitari haba abarwayi, ibindi abarwayi bicayeho, hi irya hari umugore n'umugabo, ku ruhande hari umuntu uri mu kagare wicaye ari kubavugisha. ibitanda bitariho abantu babihambiriyeho supaneti.

Ikiganza cy'umuntu gifashe agapapuro kariho umuti uvura amatungo, hariho inka, intama, ihene, ingurube, ko ari umuti uvura amatungo n'indi miti iri ku ruhande iri mu ducupa, amakarito ama etajeri hari imiti ivura amatungo.

Ibigo nderabuzima bibiri, bose hariho hariho abarwayi bicaye hanze ku ntebe, hari abandi bari imbere hari umugabo uri haruguru. Ikigo nderabuzima cya kabiri kiri haruguru, ahagaze yegamye ku rubaraza, imbere hateye igiti hari akayira kazamuka kajyayo, abandi bicaye hepfo bose baje kwivu...

Umuganga ari mu cyumba afite urushinge arimo kuvoma muri serumu mu icupa rya sarumu rimanitse hejuru, hari n'amatara amumurikiye, hari n'utugozi tuzana serumu afite mu ntoki.